Abantu batatu bambaye neza amashati inyuma yaho hari imodoka nziza y'umweru igizwe n'amabara y'umweru nyuma yaho hari itente iriho ikirangantego inyuma y'iyo tente hari ibiti.

Imodoka nziza y'umukara irimo intebe nziza z'umweru imiryango ifunguye hakurya y'iyo modoka hari urukuta rugizwe n'ibara ry'umweru.

Imodoka nziza y'umweru, iriho ibirahuri byiza, imbere yayo hari abantu babiri berekana icyapa cya kampani y'iyo modoka, inyuma yabo hari inzu nziza igizwe n'irangi ry'umweru, inyuma yabo na none hari ipironi ririho insinga z'amashanyarazi, iyo modoka iri ahantu hari amapave meza

ibirahure, ibyuma, imashini, intebe, ameza, abantu, parafo, amatara.

Abantu, imashini, ibitabo akabati k'ibitabo, intebe.

Isoko ry'imbuto nziza ririmo inanasi ziteretse ku mifuka ibinyomoro, imyembe umuntu urimo agurisha izo mbuto.

Ishyura ukoresheje Momopeyi, igiciro cyo kwishyura koresha MTN Apurikasiyo cyangwa se uhamagare akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akayenyeri gatatu, akanyenyeri urwego, ushyiremo gatandatu gatatu, gatanu gatandatu, kabiri gatandatu.

Telefone, igikapu kirimo imbuto, imineke, inyanya, amashu tukugemurira ibiryo ku muryango wawe, nimero: zeru karindwi umunani, mirongo itanu na kane, tatu gatanu, maganarindwi mirongo ine na kane, tumiza aka kanya.

Kuri miliyoni magana atatu na mirongo itanu wakigurira inzu nziza muri kigali, inzu igeretse rimwe igizwe n'amabara y'umweru isakaye neza, amadirishya meza y'ahantu hari ikirere cyiza.